Umubare munini w'abagore n'abagabo bicaye ku murongo ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza y'urubaho ariho agacupa k'amazi yo kunywa kuri buri wese mudasobwa ndetse n'ibyuma ndangururamajwi basa nkaho bari mu nama yo kuganira ku bintu runaka.

Umugabo wirabura wambaye amadarubindi udafite umusatsi ku mutwe wambaye ikositimu y'ubururu, ishati y,ubururu ndetse n'ikaruvati y'umukara imbere ye hari ameza afite igitambaro cy'umukara ndetse n'agacupa k'amazi yo kunywa.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza y'urubaho ateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse n'amakayi, bafite amakaramu mu ntoki basa nkabakurikiye inama cyangwa isomo runaka ndetse bafite n'amatelefone imbere yabo.

Umugabo wirabura, ufite umusatsi muke ku mutwe, wambaye ikositimu irimo ibara ry'ikigina, ishati y'umweru ndetse n'ikaruvati y'ubururu, afite indangururamajwi mu ntoki ze, inyuma ye hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, kiriho umugabo wirabura wambaye umupira w'umuhondo.

Abahungu ndetse n'abakobwa bateraniye hamwe bambaye imipira y'imweru bicaye ku ntebe z'imituku. Imbere y'abo ku meza y'imikara yateretseho uducupa tw'amazi, ndetse imbere y'abo hari abahicaye batatu abahungu babiri ndetse n'umukobwa umwe, basa nkabari kubaha ibiganiro, hirya hari ibyapa biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Umubare munini w'abakobwa n'abahungu bateraniye hamwe, bambaye udupira tw'imikara turiho amabendera ari mu ibara ry'ubururu icyatsi ndetse n'umuhondo, yanditseho u Rwanda aho bicaye buri wese afite agacupa k'amazi imbere ye.

Abantu batanu bicaye, harimo abagabo babiri n'abagore batatu, mbere yabo hari indangururamajwi, inyuma yabo hari icyapa kiri mubara y'ubururu cyanditsweho amagambo ari mabara y'umweru ndetse basa n'abari kubwira abandi bantu babicaye imbere.

Umubare munini w'abagore n'abagabo, bambaye imipira iri mu ibara ry'ubururu, iriho amabendera ari mu ibara ry'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, bicaye ku ntebe z'imihondo, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'imihondo ndetse ateretseho n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Umubare munini w'abagore ndetse n'abagabo, bicaye mucyumba kinini, bambaye imyenda iri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo, batatu bicaye imbere harimo abagore babiri numugabo umwe, bambaye imipira yicyatsi imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umweru, umuhondo, ndetse n'ubururu, hakaba hateretseho ibyo kunywa bitandukanye harimo amazi n'umutobe.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'imyeru, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'imyeru, ateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa, ndetse n'amakayi hari n'abafite mudasobwa imbere yabo, hagati hahagazemo umugabo munini ufite umusatsi muke ku mutwe, ufite indangururamajwi mu ntoki ze; wambaye ishati ya karokaro ndetse n'ikoboyi, asa n'uri kuvuga ijambo mbwirwaruhame.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bicaye imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru ateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa, bamwe bafite na mudasobwa imbere yabo, imbere yabo bose hari abandi bagore n'abagabo bahicaye bafite nabo mudasobwa ndetse n'uducupa twa mazi yo kunywa imbere yabo, inyuma yabo hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bicaye mu cyumba kigari gifite inkuta ziteye amarangi y'umweru, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ikigina ndetse ziriho akabaho ku ruhande. Basa n'abari mu nama runaka cyangwa nk'abari gufata amasomo.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ivu bamwe muri bo bafite mudasobwa ku biro byabo, abandi basa n'abakurikiye isomo runaka.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'imikara bazengurutse ameza y'urubaho ateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa imbere ya buri umwe, hari n'abafite mudasobwa hari umugabo uhagaze wambaye amadarubindi ndetse n'ishati yubururu n'ipantaro y'ubururu asa nk'uri kubabwira ijambo runaka, inyuma ye hari ibyapa biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bahagaze, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'ubururu ingofero y'ubururu yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ndetse n'icyatsi ufite indangururamajwi asa nk'uri gutanga ijambo mu mbwirwaruhame.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'imikara ndetse hari n'ameza azengurutse akozwe mu rubaho, ateretseho uducupa tw'amazi imbere ya buri wese ndetse n'indangururamajwi, hari n'udukayi imbere ya buri wese hagati harimo intambutsamashusho basa nk'abari kuganira ku kintu runaka.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'imikara, bose bazengurutse ameza atwikiriyeho ibitambaro, ateretseho uducupa turimo amazi yo kunywa ndetse hari n'abafite mudasobwa imbere yabo zisa nkaho ari iz'akazi, basa nkaho baganira ku kintu runaka, imbere yabo aho bareba hari ibyapa biri mu mabara y'ubururu n'umweru ndetse n'icyatsi.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'imikara imbere yabo hari ameza akozwe mu rubaho ateretseho uducupa twa'mazi yo kunywa imbere ya buri umwe hari umugabo uhagaze wambaye ishati yu'umweru ufite mudasobwa asa nk'aho ari kwereka abandi amashusho ku cyuma nyerekana amashusho hirya yacyo hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru ndetse n'ikindi cyapa cy'imibare y'icyatsi ndetse n'umweru.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bicaye mucyumba gifite inkuta ziteye amarangi y'umweru, bicaye ku ntebe z'urubaho bose bafite impapuro imbere yabo basa nkaho bari gukora ikizamini.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bicaye mu cyumba kinini, ku meza hariho ibitambaro by'umukara. Buri umwe imbere ye hari agacupa k'amazi yo kunywa ndetse n'ibitabo. Basa n'abari mu nama iganira ku kintu runaka.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'imyeru mu cyumba kinini, imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'ubururu giteretseho mudasobwa bisa nkaho bari mu nama ivuga kubintu runaka.

Abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'imikara, bazengurutse ameza y'urubaho, buri wese imbere ye afiteho agacupa k'amazi yo kunywa, bamwe bafite na mudasobwa z'akazi, basa nkaho bari kuganira ku ngingo runaka.

Umugore wambaye ishati iri mu ibara ry'umuhondo ufite indangururamajwi mu ntoki ze, iruhande rwe hari akameza gakozwe mu rubaho, inyuma ye hari icyuma nyerekanamashusho ndetse imbere ye hicaye abagore n'abagabo bicaye mu ntebe z'umutuku bafite uducupa tw'amazi yo kunywa tubateretse imbere.

Umubare munini w'abagore n'abagabo wicaye ku ntebe z'imikara imbere yabo hari ari ameza y'urubaho azengurutse, ndetse ateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa imbere ya buri muntu ndetse n'indangururamajwi, ndetse hari n'abo bafite mudasobwa imbere yabo kuri ayo meza.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bagera muri cumi na batanu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ivu basa n'abakurikiye isomo runaka cyangwa bari mu nama.

Abagore bane bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ivu bamwe bambaye imikenyero abandi bambaye amakanzu, bafite amaterefone mu ntoki zabo.

Umubare munini w'abagore abagabo ndetse n'abana bicaye mu busitani burimo intebe z'imyeru, munsi ya shitingi ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara inyuma yabo hari ibiti byinshi.

Abantu batatu harimo abagabo babiri n'umugore umwe bicaye ku meza y'urubaho ndetse no ku ntebe z'imikara, buri wese imbere ye yateretse agacupa k'amazi icyuma cy'indangururamajwi ndetse na mudasobwa, inyuma yabo hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi.

Abahungu n'abakobwa bambaye imipira y'ubururu, inyuma yabo hicaye umugabo n'umugore, umugabo wambaye ishati mu ibara ry'ivu, ufite umusatsi mwinshi w'umukara ndetse n'umugore wambaye amadarubindi n'imisatsi y'umukara, wambaye n'ikoti ry'umukara, inyuma yabo hari icyapa kiri mumabara y'ubururu umukara ndetse n'icyatsi.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bateraniye hamwe, hagati yabo hari umugabo wambaye ishati yumweru, ikoti ry'umukara ndetse n'ikoboyi yumukara ufite indangururamajwi mu ntoki ze asa nkaho ari kubabwira ijambo mbwirwaruhame.

Umubare munini w'abagore n'abagabo, abagabo bambaye amakositimu yo mu bwoko butandukanye ndetse n'abagore bambaye ibitenge n'amakanzu, bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa cyangwa se umutobe, hari indangururamajwi, hari n'impapuro, basa nk'abari kuganira ku kintu runaka.

Umubare munini w'abahungu n'abakobwa, bambaye imipira y'imikara ndetse yanditseho amagambo mu mabara y'umweru, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru n'umuhondo ndetse hariho n'uducupa tw'amazi yo kunywa, hagati hahagaze umugabo wambaye umwambaro w'umukara ndetse n'ubururu asa nk'uri kubabwira ijambo runaka.

Umubare munini w'abahungu n'abakobwa, bicaye ku ntebe z'imituku, mu cyumba gifite inkuta z'umweru, bose basa n'abari kwitegereza ikintu runaka.

Abagore n'abagabo cumi n'umwe bicaye ku ntebe z'imikara bazengurutse ameza y'urubaho, buri wese imbere ye hateretseho agacupa k'amazi yo kunywa ndetse hari nabo imbere yabo ateretse ibyuma bya mudasobwa basa nkaho bari kuganira ku ngingo runaka.

Umubare munini w'abahungu n'abakobwa bambaye imipira y'imyeru ifite ikiyemetso cy'ibendera ku gatuza riri mu ibara ry'ubururu icyatsi ndetse n'umuhondo, hejuru yabo hahagaze umugore wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ikoti ry'umukara bicaye ku ntebe z'imikara imbere yabo hari ameza, ariho igitambaro cy'umukara ndetse n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Abantu batatu harimo abagore babiri n'umugabo umwe bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza akozwe mu rubaho buri wese imbere ye afite agacupa k'amazi yo kunywa ndetse hari n'indangururamajwi buri wese afite ikayi irimo impapuro ari kwandikaho basa nk'a bari mu nama iri kuvuga ku bintu runaka.

Umubare munini w’abana bambaye impuzankano z'abanyeshuri ziri mw’ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, bicaye ku ntebe z'urubaho zifite n’ameza, imbere yabo hateretse mudasobwa ntoya ziri mabara y’umweru ndetse n'icyatsi bari kwifashisha biga.

Umugore w'inzobe wambaye umupira uri mw'ibara ry'umuhondo, ufite imisatsi y’umukara miremire wicaye ku ntebe y'umweru, imbere ye har’akameza kari mw’ibara ry'ubururu, icyatsi ndetse n'umweru, kariho n'icyapa kiri mw’ibara ry'ubururu, icyatsi ndetse n'umweru. Iruhande rwe har’akazu kari mw’ibara ry'umutuku, ubururu, umukara ndetse n'umuhondo.

Umunara uri mu ibara ry'icyatsi, ufasheho ibyuma biri mu ibara ry'umweru. Ukoreshwa mu itumanaho, urimo urwego rwo kuzamukiraho hagati na hagati, hasi yaho hari ibiti biwukikije.

Umunara muremure uri mw’ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hasi yawo hari isanduku nini iri mw’ibara ry'umweru itanga amashanyarazi ikikijwe n'ibyuma biri mw’ibara ry'umweru, hejuru hariho senyenge zishinzwe kuharinda. Hanze yawo hariy'umwana wirabura wambaye ikoti riri mw’ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Ipironi riri mu mabara y'umukara ririho ibyuma by'itumanaho biri mu mabara y'umweru ndetse n'insinga z'amashanyarazi zishinzwe gutanga umuriro mu baturage.

Abana babiri birabura, bambaye impuzankano z'ishuri ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, bafite mudasobwa bifashisha biga ziri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, umwe yahindukije mudasobwa irimo ishusho y'inzu ishushanyije iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo n'umweru.

Abakobwa babiri birabura afite imisatsi miremire, umwe wambaye amadarubindi y'umutuku ,ishati y'umweru ndetse na karuvati yu'bururu, n'undi wambaye ishati y'umweru, karuvati y'ubururu ndetse n'umupira w'ivu, imbere yabo hari ameza akozwe mu rubaho basa nkabafite ibyo bari kwiga bari kuyakoreraho.

Umunara muremure uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru hasi yawo hari udusanduku turi mu ibara ry'umweru dushinzwe gutanga amashanyarazi dukikijwe n'ibyuma biri mu ibara ry'ivu, hanze yabyo hari akazu kubakishije amatafari ahiye gafite umuryango w'umukara ndetse n'amabati.

Inzu ifite inkuta z'umweru irimo intebe z'umukara imbere yazo hari akameza ko mu rubaho kari mu ibara ry'umweru imbere ari igikuta cy'amatafari ndetse kirimo n'ibara ry'umukara.

Ipironi riri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru rifasheho ibyuma by'umweru biriho ibindi byuma byifashisha mu itumanaho hafasheho ndetse n'insinga z'amashanyarazi zishinzwe mu gutanga ingufu z'umuriro ku baturage.

Umunara muremure uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, munsi yawo hari akazu kari mu ibara ry'umuhondo gafite n'amabati y'icyatsi, ukikijwe n'ibyuma biriho senkenge hejuru, hanze yawo hari umubare munini w'abantu bahagaze basa n'abaganira.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hejuru yayo hari ingofero iri mui ibara ry'umukara nayo yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Abagore babiri bambaye imyenda y'akazi iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ingofero z'umuhondo, bahagaze hagati y'inzu ifite amabara y'umuhondo, ipironi ndetse n'icyuma gishinzwe gutanga amashanyarazi.

Ipironi rirerire ifasheho insinga z'amashanyarazi ndetse n'insinga za murandasi, inyuma yayo hari inzu ntoya ifite igisenge cy'umukara ikikijwe n'igikuta cyubakishije amatafari, ifite igipangu kiri mu ibara ry'ivu ndetse n'ikindi gikuta kiri mu ibara ry'umuhondo.

Ipironi ririho insinga z'amashanyarazi iriri hagati mu busitani, hepfo yaryo hari inzu ifite igisenge cy'amategura, ruguru ndetse no mu mpande yaryo harimo ubundi busitani ndetse n'ibiti.

Ipiloni ririho insinga z'amashanyarazi hirya yaryo hari inzu ifite igisenge cy'umukara iteye amarangi y'umweru ifite amadirishya y'umukara hasi yayo hari indi nzu imanitseho ibikoresho by'itumanaho ndetse hirya hariyo akandi kazu kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu.

Ipironi ririho insinga z'amashanyarazi riteye hagati mu ishyamba rikikijwe n'ibiti bigiye e bitandukanye ruguru yaryo hari umunara muremure nawo ufasheho izindi nsinga z'amashanyarazi.

Umugozi uri mu ibara ry'umukara wifashishwa mu gucomeka mudasobwa, uriho ikimenyetso cya mpande enye kiri mu ibara ry'umuhondo, cyandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umukara, uteretse ku kameza gakozwe mu rubaho.

Agasanduku k'amashanyarazi, kari mu ibara ry'ivu, gakikijwe n'ibiti bitoya by'imikindo, ndetse n'ibindi biti birebire, n'indabo zitandukanye.

Ipiloni rirerire rifasheho insinga z'amashanyarazi riri mu byatsi, hari ibiti by'umugano ndetse n'ibiti by'amapapayi n'izindi ndabo ngufiya.

Ipironi rirerire ifashewe'insinga z'amashanyarazi, ndetse n'insinga za murandasi, hirya yaryo rikikijwe n'ibiti birebire, hejuru hari ikirere cy'ubururu.

Ubusitani burimo indabo ngufiya ndetse n'ipiloni rirerire ririmo insinga z'amashanyarazi. Hirya hari inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya y'umukara hanze yayo hari ibigega by'umukara inzu ikikikijwe n'igikuta cyubakishijwe mu mabuye ndetse n'ibyuma.

Ipironi ririho insinga z'amashanyarazi munsi yaryo hashinzemo agasanduku gashinzwe gutanga umuriro rishinze hagati mu murima uteyemo ibihingwa nk'ibigori ruguru yayo hari ishyamba ririmo ibiti.

Amapironi afashe insinga z'amashanyarazi ateye imbere y'ubusitani ndetse n'indabo ndende, hari igiti kirekire imbere yabyo hari umubare w'abagore n'abagabo bagera muri bane bahagaze basa n'abategereje imodoka.

Ipironi rifashe insinga z'amashanyarazi ndetse n'itara ryo ku muhanda, hepfo yaryo hari inzu iri mu ibara ry'umweru ndetse yubakije amatafari yahiye, bacuruzamo imyenda y'ubwoko butandukanye ndetse na matera zo kuryamaho.

Ipironi ririho insinga z'amashanyarazi hirya yaryo hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye, kiriho ibyuma by'umukara, ndetse hirya hari ibiti bitandukanye biri mu busitani.

Umuhanda w'amabuye urimo imodoka y'umukara iri kurenga hirya hari inzu ifite amarangi y'ubururu n'amadirishya y'umweru ndetse n'indi iyegereye ifite amarangi y'umweru ndetse n'urugi rw'umweru hanze yazo hari ubusitani burimo ipironi rifashaho insinga z'amashanyarazi.

Umunara ufite ibara ry'umutuku hasi hari amasanduku ane ashinzwe gutanga ingufu z'amashanyarazi ,harimo abiri y'umweru ndetse n'andi abiri yubururu , akikijwe n'ibyuma biri mu mabara y'umutuku bifiteho na senyengi hejuru yabyo, hepfo hari imodoka iri mu ibara ry'icyatsi.

Umubare munini w'urujya n'uruza rw'abantu, hepfo yabo hari ipironi ririho insinga z'amashanyarazi, rishinze mu busitani burimo ibiti birebire ndetse n'indabo ngufiya. Hepfo yawo hari inzu zikorerwamo ubucuruzi ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, imbere yazo haparitse imodoka nini iri mu ibara ry'umweru.

Umugore uhagaze wambaye itaburiya y'umweru isanzwe yambarwa n'abaganga, hari n'undi mugore wicaye, wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, ufite ibyuma bipima amaso, imbere biri kureba mu maso ye.

Ikibuga gikinirwamo umukino w'amaboko arimo voreboru, imbere yacyo hakaba hari amazu yubatse mu bwoko bumwe agiye atandukanye, n'ibiti biyakikije n'izindi ndabo ziri ku ruhande rw'ikibuga n'ibyatsi.

Inzu ebyiri zubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabuye, ziriho ibisenge by'umutuku hino yazo hari ubusitani buteyemo ibiti bigufiya ndetse na senyenge zibukikije.

Inzu ifite inkingi zubakishije amabuye ndetse n'igisenge cy'umweru, ifite inkuta ziriw ibara ry'umuhondo. Nkimmbere yari umuntu wambaye ishati yumweru wicaye ku ntebe yumukara hanze hari intebe yicayeho umugore, ndetse hari numugabo uri gutambuka.

Inzu nyinshi zifite ibisenge by'umutuku zubakishije amatafari ahiye, ruguru yazo hari ubusitani burimo indabo ngufi n'ibiti by'imikindo ndetse n'ibiti birebire.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bicaye abandi bahagaze impande za yabo ndetse no hejuru yabo hari ibikuta biteye amarangi y'umuhondo, iruhande rwabo ndetse n'imbere yabo hahagaze imodoka z'imbangukiragutabara ziri mu mabara y'umweru umutuku ndetse n'ubururu.

Imodoka y'imbangukiragutabara iri mu ibara ry'umweru, umutuku ndetse n'ubururu, ifite amatara hejuru yayo ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu, inyuma yayo hari ubusitani burimo indabo ngufi.

Inzu ifite igisenge cy'ubururu, yubakishije amatafari, ifite n'amarangi y'umweru ndetse n'icyatsi, hanze yayo hari umubare munini w'abantu bicaye basa nkaho bategereje guhabwa serivisi runaka.

Abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo bari mu cyumba cyabugenewe gukorerwamo inama kirimo ameza yabugenewe ndetse n'intebe z'umukara zicayemo abo bantu bafite n'ama mashini bari kwiga ku kibazo runaka cyabahurije aho hantu.

Umubare munini w'abantu bari kugenda, bari imbere y'inzu ifite igisenge cy'ubururu, iteye amarangi y'umuhondo ndetse yubakishije amatafari ahiye, hirya yayo hari ubusitani burimo indabo ndende ndetse n'ibyapa biri mu mabara y'ubururu byanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umugore wirabura ufite imisatsi y'imikara iryamye n'amaso ajya kuba manini wambaye amaherena y'ibizeru ndetse akaba yambaye n'ikanzu ifite ibara ry'umutuku n'umweru akaba ahagaze imbere y'igikuta gifite ibara ry'umweru.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'imikara bambaye amakanzu y'imikara n'umweru ndetse n'udupfukamunwa, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye imyenda y'abagororwa iri mu ibara ry'iroza ndetse n'abandi bagabo babiri nabo bambaye amakanzu y'umukara n'umweru imbere yabo hari imeza y'urubaho n'indangururamajwi.

Umugabo wirabura udafite umusatsi ku mutwe, wambaye imyenda y'imfungwa iri mu ibara ry'iroza, inyuma ye hari imodoka iri mu ibara ry'ikigina ndetse n'ubusitani.

Umugore wuriye ipoto ry'amashanyarazi arimo arashaka ibikoresho byo gutunganya ikibazo cyaba gihari kuri iryo poto ry'amashanyarazi arimo gukoraho akazi.

Umugore w'inzobe, wambaye amadarubindi, ufite imisatsi myinshi, wambaye amaherena maremare ku gutwi, wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru, isanzwe yambarwa n'abantu bakora akazi k'ubucamanza.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa burimo imvi, wambaye amadarubindi yumukara, wambaye ingofero ku mutwe iri mw’ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, wambaye umwenda uri mw’ibara ry'umutuku mubusanzwe wambarwa nabantu bakora akazi k'ubucamanza.

Umugabo wirabura ufite mu maso hanini, udafite umusatsi, ufite ubwanwa bukeya, wambaye ishati y'umweru, inyuma ye hari igikuta kiri mu ibara ry'umweru.

Umugabo wirabura ufite mu maso hanini, yambaye ingofero ifite ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, yambaye n'ikanzu ifite ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'umukara, imbere ye hari indangururamajwi bisa nk'aho ari kuvuga ibintu runaka, inyuma ye hakaba hateretse ibyapa biri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umukara.

Abantu cumi n'umwe bahagararanye harimo batandatu bambaye amakanzu ari mu ibara ry'umutuku, umwe, ndetse n'umukara wambaye n'ingofero z'imikara zirimo n'umuhondo harimo n'abagabo batatu bambaye amakositimu n'undi mugore wambaye umukenyero, n'undi uri inyuma wambaye ikanzu, inyuma yabo hari amabendera abiri ari mu ibara ry'ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi.

Umugabo wirabura ufite mu maso hanini ufite umusatsi mukeya, ufite ubwanwa bukeya, wambaye umwenda uri mu mabara y'umutuku, umukara ndetse n'umweru usanzwe wambarwa n'abacamanza, ahagaze inyuma ye hari igikuta kiri mu mabara y'umweru.

Abagabo batanu harimo bane bambaye impuzankano y'imfungwa iri mu ibara ry'iroza, hari n'undi uhagaze wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umukara, ndetse n'umweru isanzwe yambarwa n'abantu baburanira abandi mu rukiko, inyuma yabo hari intebe z'urubaho nyinshi ziticawemo ndetse n'icyumba barimo gifite inkuta z'umweru.

Umugabo wirabura wambaye amadarubindi, udafite umusatsi, wambaye ishati y'umukara ndetse nipantaro y'ivu, wambaye amapingu ku maboko ye, ufite n'icupa mu ntoki, inyuma ye hari umugabo ushinzwe umutekano wambaye impuzankano y'umukara ufite n'imbunda y'umukara mu ntoki ze.

Abagabo batatu bahagaze imbere yabo hari ameza maremare akozwe mu rubaho, umugabo umwe wambaye ishati y'umweru ufite agasatsi gakeya ndetse wambaye n'ikoboyi y'ubururu, hari n'undi wambaye ikanzu y'umukara ndetse n'ishati y'umweru n'undi wambaye ishati y'ubururu irimo n'imirongo y'umukara umanitse akaboko ndetse n'ipantaro ya kaki.

Abagabo batanu bambaye amabendera ku rutugu rwabo ari mu ibara ry'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu handitsemo amagambo y'umukara, bicaye imbere y'ameza y'urubaho bose bafite amakayi mu ntoki zabo.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bicaye hasi mu busitani, imbere yabo hari abandi bagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'urubaho, hari n'imeza imbere yabo, hagati yabo hahagaze umugabo usa nk'uri mu rukiko, mu busanzwe basanzwe bita gacaca.

Umugabo wirabura afite mu maso hanini udafite umusatsi wambaye amadarubindi wambaye umwenda uriri mu ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru, mu busanzwe kwambara n'abacamanza.

Umugore wirabura wambaye amadarubindi ufite umusatsi mwinshi w'umukara, wambaye umwenda w'umutuku ndetse n'umweru usanzwe wambarwa n'abacamanza, inyuma ye hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Abagabo babiri bicaranye umwe yambaye impuzankano y'imfungwa mu ibara ry'i roza undi umuburanira yambaye amadarubindi ndetse n'ikanzu y'umukara iriho akantu k'ubururu inyuma yabo hari intebe nyinshi z'urubavu.

Umugabo wirabura wambaye ingofero iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru, ubusanzwe bikunze kwambarwa n'abacamanza, imbere ye hari indangururamajwi ukuboko kwe kumwe kuzamuye ukundi gufashe ku ibendera riri mu mabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi.

Umubare munini w'abantu bambaye impuzankan z'imfungwa ziri mu ibara ry'iroza, hirya yabo hari ipiiloni ririho insinga z'amashanyarazi riri hagati mu busitani ndetse hari n'ibiti bisa nkibiteye amashyamba.

Umugore wirabura ufite imisatsi myinshi y’umukara namaso ajya kuba matoya wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku, umweru, ndetse n’umukara ahagaze imbere y’ igikuta gifite ibara ry'mweru.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'imituku harimo abambaye amakanzu ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru imbere yabo hahagaze umugore wambaye ikanzu ye'i ibara ry'umukara ndetse n'umweru wambaye agapfukamunwa k'umweru uzamuye ukuboko ukundi kuboko gufashe ku ibendera riri mu mabara y'ubururu icyatsi ndetse n'umuhondo.

Abagabo bagera muri batandatu bambaye impuzankano y'imfungwa, bagararanye n'umucungagereza imbere y'igipangu cya gereza kigizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, hepfo yaho gato naho hari undi mucungagereza ubashinzwe.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye mu cyumba kinini, aho buri wese yicaye hari amazi cyangwa se umutobe, imbere yabo hari abagabo bafite mudasobwa bisa nkaho bayoboye inama irivuga ku kintu runaka.

Abagabo babiri bambaye impuzankanro zabashinzwe umutekano, ziri mu ibara ry'umukara, bafashe undi mugabo wirabura udafite umusatsi, wambaye amadarubindi yumukara wambaye ikoti ry'umukara, nagapira k'umutuku inyuma yabo hari abandi bagabo babiri bambaye amakositimu y'imikara amashati y'umweru ndetse nama karuvati y'imikara.

Umugabo wirabura udafite umusatsi ku mutwe, ufite amaso matoya, ufite amazuru ananutse maremare, wambaye umwenda uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku n'umweru n'ingofero y'umukara afashe ku ibendera riri mu ibara ry'umuhondo, icyatsi, n'ubururu azamuye ukuboko imbere ye hicaye umugabo wambaye ikanzu y'umutuku n'umweru ndetse no hirya ye hari umugore wambaye gutyo wicaye ku ntebe y'umukara imbere ye hari ameza ariho indangururamajwi.

Ababyeyi beza cyane bigaragara ko harimo abanyamahanga baje bagana, u Rwanda bakirwa na madamu minisitiri Oda Gasinzigwa, turahabona ifoto nziza bari mu biro idarapo ry'igihugu cyacu basa nk'aho ibyo baganiriye byemejwe kandi ba byishimiwe ku mpande zombi.

Abagabo batatu bicaye ku ntebe z'imikara bambaye amakanzu y'umutuku ndetse n'umweru n'ingofero z'umukara zirimo amabara y'umuhondo, imbere yabo hari abandi babiri umugore n'umugabo bambaye amakanzu ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru n'ingofero z'umukara bose bafashe ku mabendera ari mu ibara ry'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Umubare munini w'abagore, bambaye imyenda yimfungwa, bafite umusatsi muke ku mutwe, bicaye hamwe basa nk'abari kumva ibintu runaka.

Abagabo babiri bahagararanye bambaye impuzankano y'umukara yabashinzwe umutekano, umwe wambaye undi mwambaro urimo ibara ry'icyatsi w'abashinzwe umutekano wo mu muhanda, inyuma yabo hari akazu abategereza imodoka bicaramo kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibiti.

Abagabo bane umwe wambaye umwenda w'umuhondo nin'ingofero y'umweru bari kwiruka babiri bambaye imyenda y'imikara ndetse n'icyatsi nini n'ingofero z'umweru bari mu nzego zishinzwe ku rwanya umuriro n'undi ubari inyuma wambaye imyenda y'ubururu bwijimye buri mu nzego zishinzwe umutekano bafite umupira w'amazi bari kohereza amazi mu nzu yifite amarangi yumweru.

Icupa riri mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'umuhondo, ririmo umwuka wifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro, iri cupa rifashe ku gikuta kiri mu ibara ry'umweru hariho n'icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'ikindi cyapa cyerekana uburyo bakoresha rino cupa kiri mu ibara ry'umutuku, umuhondo ndetse n'umweru n'ubururu.

Igikuta cy'umweru kiriho amacupa abiri rimwe ryo mu ibara ry'umweru n'irindi ryo mu ibara ry'umuhondo, yombi abikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya inkongi z'umuriro, hasi hari agatebo kifashishwa mu gushyiramo imyanda, hejuru yaho naho hari agasanduku kari mu ibara ry'ivu.

Kaburimbo irimo ipikipiki ndetse n'imodoka zitwara abantu n'ibintu imbere yazo hahagaze umugabo wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umukara icyatsi ndetse n'umweru wambaye n'ingofero ku mutwe wazamuye ukuboko kwe asa nk'uhagarika imodoka, ruguru ya kaburimbo hateye ibiti ndetse n'ubusitani no hepfo naho hateye ibiti.

Ikamyo nini iri mu ibara ry'umukara iriho umurongo w'umweru wanditsemo amagambo yanditse mu ijambo ry'umukara, hirya yayo hari indi modoka iri mu ibara ry'ivu ndetse hari n'icyuma gishinzwe gutangira imodoka kiri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Kaburimbo irimo imodoka y'abashinzwe umutekano irimw'ibara ry'umukara ndetse n'umweru hepfo yayo ari ibiti ndetse n'ubusitani ruguru yayo hari inzira y'abanyamaguru ikikijwe n'ibyuma biri mwi bara ry'umutuku ndetse n'umweru irimo abanyamaguru babiri umugore n'umugabo.

Urutonde rwakozwe mu gukusanya amakuru runaka bagendeye ku midugudu, utugari, imirenge, uturere ndetse n'igihugu.

Kaburimbo irimo amapikipiki atatu, hirya hari y'icyapa kiri mu mabara y'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ishusho y'igipfunsi iri mu ibara ry'umweru, hari ishusho y'umugabo wirabura wambaye amadarubindi y'umukara ufite agasatsi gake wambaye ishati y'umweru ndetse n'ikaruvati y'umukara, hirya hari inzu ndende iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Abagore batatu, bombi bambaye imipira y'imyeru ufite imisatsi miremire y'umukara, bose barasutamye, bari kureba mu mpapuro basa nk'abari kuzireramo ibintu runaka cyangwaba bari gukuramo amakuru runaka bakeneye.

Abantu bane bahagaze harimo abagabo babiri n'abagore babiri, hari umugabo umwe wambaye ishati ya karokaro ndetse n'amadarubindi n'ikoboyi y'ubururu n'undi wambaye ishati ifite ibara ry'ivu, ipantaro y'umukara afite n'indangururamajwi mu ntoki ze, ndetse n'undi mugore wambaye agashati k'umutuku n'undi wambaye agashati k'umweru karimo umuhondo n'umutuku n'ubururu.

Umugore wirabura ufite imisatsi myinshi y'umukara wambaye amadarubindi y'umukara ndetse n'amaherena ku gutwi yambaye ikoti risa umuhondo ndetse n'agapira gasa umukara inyuma ye hakaba ari amabendera abiri imwe riri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, irindi riri mu mabara y'icyatsi, umweru n'umuhondo.

Umugabo wirabura wambaye amadarubindi y'umukara, wambaye ishati y'umweru, ufite indangururamajwi mu ntoki ze asa nk'uri gutanga ijambo mu mbwirwaruhame; inyuma ye hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru kiriho n'ikirangantego cy'u Rwanda.

Umugabo wirabura wambaye amadarubindi y'umukara ufite umusatsi muke ku mutwe, wambaye ishati y'umweru irimo uturongo tw'umutuku ndetse n'ubururu, azamuye akaboko asa n'usuhuza abantu bazamuye nabo amabendera ari mu ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'umweru.

umugabo wirabura ufite umusatsi mwinshi w'umukara ufite ubwanwa bukeya wambaye ikositimu ifite ibara ry'ivu, wambaye ishati y'umweru ndetse nikaruvati y'umukara amanitse ukuboko imbere ye hari indangururamajwi iruhande rwe hari ibendera riri mwibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo.

Umubare munini w'abagore nabagabo bambaye ingofero ziri mu mabara y'umweru, zanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku. Bambaye imipira y'ubururu, iy'umweru yandikishwaho amagambo y'umukara ndetse n'andi ari mu ibara ry'umutuku n'ubururu. Bose bafite amabendera ari mu ibara ry'umutuku, ubururu, ndetse n'umweru, yanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Umugabo wirabura ufite umusatsi muke, wambaye amadarubindi, ufite ubwanwa buke, wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, ndetse na karuvati y'umukara inyuma ye hari umugore wirabura ufite umusatsi mwinshi w'umukara.

Abagore bane n'umugabo umwe bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza y'urubaho ateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa kuri buri wese ndetse n'indangururamajwi iri imbere ya buri umwe, inyuma yabo hari ibendera riri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu n'irindi bendera riri mu mabara y'umweru, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bambaye imipira y'icyatsi, imbere yabo hari abagore babiri n'umugabo umwe, abagore babiri bambaye amashati y'umweru ariho ibirangantego by'ibendera riri mu ibara ry'umuhondo umweru ndetse n'icyatsi, n'umugabo yambaye ishati itagira ikora ririho ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Umugore n'umugabo bicaye ku ntebe z'imikara umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara ufite ikayi mu ntoki ze, umugore wambaye amadarubindi ikanzu ifite ibara ry'ubururu umutuku ndetse n'umuhondo na wicaye ku ntebe y'umukara afite ikayi mu ntoki ze, hirya ye hari akameza gakozwe mu rubaho gateretseho agacupa k'amazi yo kunywa ndetse n'igikapu inyuma yabo hari icyapa cy'ibara ry'ubururu.

Abagabo batatu n'umugore umwe bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza y'urubaho ateretseho amazi yo kunywa ndetse buri wese imbere ye hari n'indangururamajwi, hateretse na mudasobwa, inyuma yabo hari intambutsamashusho nini basa nkaho bari mu nama ivuga ku kintu runaka.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bambaye imipira y'umweruru, iriho amabendera ari mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umutuku, bafite n'amabendera mu ntoki zabo ari muri iryo bara hirya hari n'abandi bicaye muri shitingi iri mu ibara ry'umweru ndetse hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru, ndetse n'ipantaro yumukara nawe utwikiriwe n'indi shitingi iri muri ayo mabara.

Umugabo wirabura ufite umusatsi mwinshi, wambaye ikoti ry'ubururu ndetse n'ishati y'umweru, afite akabahasha ari gushyira mu gasanduku, inyuma ye hari undi mugabo nawe wirabura udafite umusatsi wambaye ikoti ririmo ibara ry'ivu ndetse n'agapira k'umweru, ndetse n'ipantaro y'umukara inyuma yabo hari ibyumba byubakishijwe imbaho.

Umubare munini w'abagore ndetse n'abagabo n'abana bahagaze, imbere yabo hari abagabo babiri umwe wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, nundi wambaye ishati y'umweru, ikoti ry'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara usa nkaho aribabwira ijambo runaka, inyuma yabo hari inzu ifite ibara ry'ubururu ndetse hepfo yaho gato hari indi nzu ifite ibara ry'icyatsi n'imodoka ebyiri zifite amabara y'umweru.

Abantu batandatu harimo abagabo batatu, umwe wambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweru ndetse n'ikaruvati y'ubururu n'undi wambaye ikoti ry'ubururu ikaruvati y'ubururu n'ishati y'umweru n'undi wambaye ishati y'ubururu ikaruvati y'umukara n'ikoti ry'ubururu, harimo abagore babiri bambaye amakanzu n'undi mugore uri inyuma ufite umusatsi mwinshi wambaye amadarubindi ndetse n'ishati y'umweru.

Umugore wirabura ufite imisatsi myinshi y'umukara wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi akenyeye igitenge yambaye isaha ku kuboko ndetse ni'mpeta ku rutoki inyuma ye hari ibiti byinshi.

Umugabo wirabura wambaye agapfukamunwa k'umweru n'amadarubindi y'umukara, azamuye akaboko afite ingofero yumutuku mu ntoki yambaye umupira w'umweru ndetse hasi ye hari abantu benshi bafite amabendera ari mu ibara ry'umutuku , umweru ndetse n'ubururu.

Abantu batatu bahagararanye harimo umugore w'inzobe wambaye amadarubindi y'umukara ufite imisatsi y'umukara wambaye ikanzu irimo ibara ry'ubururu ndetse n'isaha ku kuboko ndetse n'umugabo umwe wirabura wambaye ikositimu y'ubururu ndetse n'ikaruvati y'umutuku ndetse nundi mugore wambaye ijipo ndetse n'ikositimu bya karokaro ufite n'imisatsi y'umukara.

Umugore wirabura uri guseka ufite umusatsi w'umukara wambaye agapira k'umweru imbere ye hari mudasobwa wambaye nisaha ku kuboko inyuma ye hari amabendera abiri ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru n'irindi riri mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Kaburimbo irimo ikinyabiziga cy'ikamyo nini gifite amabara y'umutuku cyikoreye umuzigo ufite ibara ry'icyatsi, hirya y'umuhanda hari ibiti ndetse n'ubusitani bukikije kaburimbo.

Kaburimbo ku nkengero zayo ihagazemo igare ndetse imbere y'igare hari ikamyo ntoya iri mu mabara y'umweru, mu kayira k'abanyamaguru harimo umunyamaguru umwe uri kurenga.

Kaburimbo irimo ikamyo y'ibara ry'umweru ifite isanduku iyifasheho hejuru iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, ishushanyijeho amavuta ndetse n'umugore wirabura ufite imisatsi y'umukara.

Kaburimbo irimo amapikipiki abiri ndetse n'imodoka nini itwara abantu n'ibintu mu ibara ry'umweru ariretseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, hirya ya kaburimbo hari inshundura iri mu mabara y'icyatsi ikikije ibiti biteye mu busitani bwegereye kaburimbo.

Iki ngiki ni ikigo cya emutiyene kidufasha kubijyanye no kuba baguha amayinite ugahamagara mugenzi wawe, cyangwa se ukamwandikira kuri murandasi bitewe n'icyo ushaka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki ane, imodoka imwe ifite ibara ry'ivu n'indi ifite ibara ry'umutuku, hagati mu muhanda harimo ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo ndetse no hirya hateye ibindi biti, ruguru hari ipiloni ririho icyuma gifata amashusho yo mu muhanda.

Kaburimbo irimo ikamyo, iri mu ibara ry'umweru, itwikirijweho ibyuma, biri mu ibara ry'umutuku, yikoreye amatafari, atwikirijweho shitingi, iri mu ibara ry'umweru, akayira k'abanyamaguru, hashinze ipironi ry'amatara yo ku muhanda ndetse harimo n'umunyamaguru umwe, hirya hari inshundura, ziri mu ibara ry'icyatsi, zikikije ibiti.

Kaburimbo irimo ikamyo nini iri mu ibara ry'umutuku hirya yayo hari iyindi kamyo yikoreye igisandugu kinini kiri mu ibara ry'umukara hirya hari inshundura ziri mu ibara ry'icyatsi zikikije ibiti byinshi.

Kaburimbo irimo imodoka nyinshi intoya ndetse n'inini hirya yayo hari ibiti ndetse yaparitse ikamyo yikoreye imifuka y'ibicuruzwa runaka n'indi modoka ntoya ifite ibara ry'ivu.

Kaburimbo irimo ikamyo iri mu ibara ry'umweru, irimo n'amabara y'umutuku ndetse n'umuhondo, yikoreye imodoka iri mu ibara ry'umweru, isa n'ifite ikibazo, hirya ya kaburimbo hari inshundura ziri mu ibara ry'icyatsi, zikikije ibiti birebire.

Ni akazu ka emutiyene kateye irangi ry'umuhondo gafunze imiryango yose gashushanyijeho serivisi zose emutiyene itanga kari hagati y'ibyapa bibiri ndetse nipoto n'ishyamba.

Kaburimbo irimo imodoka itwara abantu n'ibintu ifite ibara ry'umweru, imbere harimo umubare munini w'abantu bayicayemo, hirya hari iyindi kamyo nini ifite ibara ry'umuhondo ndetse hirya y'umuhanda hari inshundura ziri mu ibara ry'icyatsi zikikije ibiti ndetse n'ubusitani buriyo.

Kaburimbo irimo imodoka ebyiri ndetse n'indi modoka nini itwara ibintu n'abantu, hari ipikipiki igendera ku mapine atatu iri mu ibara ry'ivu, hepfo hari ibiti byinshi biteye mu busitani ndetse ruguru hari ikindi giti ndetse n'inzu itararangiza kubakwa.

kaburimbo irimo ipikipiki y'amapine atatu iri mu ibara ry'ubururu yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, akayira k'abanyamaguru harimo umugabo umwe uri gutambuka hirya hari inshundura z'icyatsi zikikije ibiti ndetse harimo n'andi makamyo ahaparitsemo ari gupakurura imifuka y'ibintu bitandukanye.

Kaburimbo irimo imodoka nini itwara abantu n'ibintu iri mu ibara ry'icyatsi, umweru, ndetse n'umukara mu kayira kabanyamaguru harimo umugabo wambaye ingofero y'umukara, umupira w'umukara ikoboyi y'umukara, ndetse n'inkweto z'umukara uri kuri terefone hirya yaho hari inshundura z'icyatsi zikikije ibiti biri mu busitani.

Kaburimbo irimo imodoka ntoya itwara abantu n'ibintu iri mu ibara ry'umweru n'umuhondo, hagati ya kaburimbo harimo ubusitani buteyemo ibiti by'umukindo ndetse hirya naho hateye ibindi biti byinshi.

Kaburimbo irimo igare ririho umunyonzi wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro iri mu ibara ry'ivu, harimo n'imodoka nini itwara abantu n'ibintu iri mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umukara, harimo n'urujya n'uruza rw'abantu bajya mu nce zitandukanye.

Kaburimbo irimo imodoka ebyiri, imwe ifite ibara ry'umweru ndetse n'imirongo itukura, indi ikaba ifite ibara ry'umukara, hakaba haririmo amapikipiki abiri ahetse abagenzi, hirya y'umuhanda hakaba hari inshundura zikikije ubusitani ndetse n'ibiti.

Kaburimbo irimo ikamyo ifite ibara ry'umweru hashushanyijeho igishushanyo kiri mu ibara ry'icyatsi, hirya y'umuhanda hariho inshundura ifite ibara ry'icyatsi, harimo n'ibiti ndetse n'ubusitani.

Imodoka ebyiri nini zitwara abantu n'ibintu, ziri mu mabara y'umukara ubururu ndetse n'umweru, ruguru yazo hari ubusitani buriho n'igikuta cyubakishijwe amabuye, gifite n'ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikamyo ifite ibara ry'ubururu imbere yaho hari imodoka isa n'ikata ijya iburyo iva mu muhanda, ndetse hakaba n'izindi modoka nyinshi ziza ziva mu cyerekezo iganamo, hirya y'umuhanda hari ibiti ndetse n'izindi modoka zihaparitse.

Ubusitani bushinzemo icyuma kiri mu ibara ry'ubururu, hirya hari imodoka iri mu ibara ry'umweru itwara abantu n'ibintu ndetse n'iy'indi modoka nini na yo itwara abantu n'ibintu iri mu ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'umukara, hari n'umunyamaguru uri gutambuka wambaye isurubeti iri mu ibara ry'icyatsi.

Kaburimbo irimo imodoka iri mu ibara ry'umweru n'umukara, harimo urujya n'uruza rw'abantu, hari umuntu wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu isanzwe ari impuzankano yambarwa n'abakarani, ufite igikoresho yifashisha mu kwikorera imitwaro, hirya hari inzu ifite irangi ry'umweru ndetse n'amadirishya ari mu ibara ry'icyatsi.

Umuntu wambaye umupira wa oranje wicaye mu ntebe ya purasitike wegamye, inyuma ye hari utubati tubiri tubikwamo, kamwe gasa umweru akandi gasa kacyi harimo ibikoresho bitandukanye.

Kaburimbo hariho amapikipiki abiri, imodoka itwara imizigo ndetse n'abantu, mu kayira k'abanyamaguru harimo umukarani wikoreye umuzigo, umuhanda hirya urakikijwe n'ibiti, hirya harimo parikingi y'imodoka zigiye zitandukanye, bisa nkaho ari ahantu bapakurura.

Kaburimbo irimo ikamyo ifite ibara ry'umweru itwikiriyeho shitingi ziri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ubururu hirya yayo hari inshundura ziri mu mabara y'icyatsi zikikije ibiti biri mu busitani.

Kaburimbo irimo ikamyo nini ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, ku ruhande rwayo hari igare ririho umunyonzi ndetse n'umugenzi, hirya hari inshundura ziriho ibara ry'icyatsi zikikije ibiti ndetse n'ubusitani.

Kaburimbo irimo amapikipiki abiri afite ibara ry'umutuku imwe imanuka indi izamuka ari icyapa hirya kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru hateye n'ibiti ndetse n'ubusitani.

Kaburimbo irimo amagare abiri ndetse hariho n'abanyonzi, inyuma yabo hariho imodoka nini itwara abantu n'ibintu iri mu ibara ry'umutuku n'umukara, hirya ku gahanda k'abanyamaguru harimo abanyamaguru babiri ndetse n'igare riri gusunikwa n'umuntu, ndetse hari n'inshundura ziri mu mabara y'icyatsi zikikije ibiti hirya hahagaze n'izindi modoka nini.

Kaburimbo irimo ipikipi igendera ku mapine atatu iri mu ibara ry'icyatsi ndetse harimo n'andi mapikipiki ane atwaye abagenzi ndetse n'indi modoka iri mu ibara ry'ivu itwara abagenzi ndetse n'ibintu hirya hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi ndetse n'ikindi cyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru hasi hari ubusitani ndetse n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri gutambukamo ikamyo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hirya y'aho hari inshundura iri mu mabara y'icyatsi, ndetse hateye n'ibiti ndetse n'ubusitani hakaba hari n'ipironi y'amatara yo ku muhanda.

Kaburimbo irimo amapikipiki atandatu inyuma hari igare ririho umunyonzi ndetse n'ikamyo iri mu ibara ry'umweru yikoreye igisanduku kinini kiri mu ibara ry'umutuku ndetse harimo n'izindi modoka n'amapiloni ariho insinga z'amashanyarazi ndetse n'ibyuma bishinzwe kurinda umutekano w'umuhanda.

Imodoka nini itwara abantu ndetse n'ibintu biri mu ibara ry'umweru, inyuma handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'andi ari mu ibara ry'umukara. Iruhande rwayo hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye ari abari bagiye gucuruza cyangwa abaje gutega.

Kaburimbo irimo imodoka itwara ibintu ndetse n'abantu ifite ibara ry'umweru imbere yayo hari igare ririho umunyonzi hirya yayo hari inshundura ziri m'ibara ry'icyatsi zikikije ibiti ndetse n'ubusitani bwegereye umuhanda.

Kaburimbo irimo ikamyo iri mu ibara ry'umweru, iririho ikimenyetso kiri mu ibara ry'umutuku, ryandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hejuru yayo hari icyapa kirimo ibara ry'umuhondo , ubururu ndetse n'umweru, hirya ya kaburimbo hari inshundura z'icyatsi zikikije ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikamyo ifite ibara ry'icyatsi yikuruye umucanga utwikiriyeho shitingi hirya yayo hakaba hari igare ririho umunyonzi imbere yayo hakaba hari abanyamaguru babiri umwe ku gice cy'iburyo undi ku gice cy'ibumoso hirya y'umuhanda hakaba hari inshundura ziri mu ibara ry'icyatsi zikikije ibiti ndetse n'ubusitani.

Kaburimbo irimo ikamyo ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru yikoreye imifuka itwikirije shitingi y'umweru, ruguru yayo hari amazu abiri imwe iri mu ibara ry'ubururu indi iri mu'ibara ry'umweru hepfo yayo hari umubare munini w'abantu bicaye ndetse hari n'igiti kirekire.

Kaburimbo irimo ikamyo y'umweru, imodoka ebyiri zitwara ibintu n'abantu, imwe iri mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umukara n'indi iri mu ibara ry'icyatsi n'umukara, hino hari mu kayira k'abanyamaguru harimo umugabo uri gutambuka wambaye ishati y'ubururu n'ikoboyi hirya, hari inshundura zirimo ibara ry'icyatsi zikikije ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikamyo nini yikoreye ikigega, hirya hari amapironi y'amatara yo ku muhanda ndetse n'imodoka itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru, hirya hari inzu ndende ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'igisenge cy'umutuku.

Kaburimbo irimo imodoka ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, yikoreye imizigo itwikirijeho shitingi ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, imbere yayo hari ipikipiki y'amapine atatu ifite ibara ry'ubururu ndetse n'indi pikipiki imeze nkayo nayo iyiri imbere ifite ibara ry'ubururu.

Kaburimbo irimo ikamyo y'umweru, yikoreye imizigo ifite ibara ry'icyatsi n'umweru, indi mizigo itwikiriwe na shitingi y'ubururu, hirya y'umuhanda hariyo ibiti ndetse n'ubusitani.

Kaburimbo irimo ikamyo ifite ibara ry'umweru yikoreye imizigo itwikiriyeho shitingi y'icyatsi irimo amapikipiki abiri hirya mu gahanda k'amanyamaguru harimo umugore ufite igikapu mu ntoki ndetse wambaye ikanzu y'ubururu hirya hari inshundura z'icyatsi zikikije ibiti biri ku muhanda.

Imodoka rusange zitwarwamo abagenzi, ziri mu mabara y'umukara, ubururu ndetse n'umweru, zihagaze hirya yazo hari utuzu twicarwamo n'abagenzi igihe bazitegereje, turi mu mabara y'umutuku, umweru ndetse n'ubururu, hirya hakaba hari inzu igeretse iri mu ibara ry'umuhondo.

Umuhanda urimo ipikipiki iriho umu motari uhetse umugore ndetse harimo n'igare iriho umunyonzi uhetse umugabo, hepfo harimo ubundi butaka buteyeho ibiti ndetse uparitsemo imodoka z'ubwoko butandukanye zirimo amakamyo manini ndetse n'amatoya ipikipiki, ndetse n'imodoka ntoya

Kaburimbo irimo imodoka nini itwara ibintu n'abantu, iri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, hari n'indi modoka iri mu ibara ry'umukara, iri kurenga, hirya hari ibiti birebire, ndetse n'ipironi ririho itara ryo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikamyo ifite ibara ry'umweru, ririho icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umweru ,ryanditsemo amagambo yandikishije ibara ritukura ,hirya hariyo inshundura iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibiti biteye mu busitani.

Kaburimbo irimo ikamyo nini irimwo ibara ry'umutuku n'umweru, yikoreye imizigo inyuma hari amapikipiki abiri ndetse n'indi kamyo yikoreye isanduku nini irimo ibara ry'umukara. Hirya hari inshundura z'icyatsi zikikije ibiti byinshi.

Ubusitani burimo ibyatsi byumye, ndetse n'ibyatsi bitoshye, harimo n'ibinonko.

Ubusitani bunini hirya yabwo hari ibyapa bitandukanye biri mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'umukara hari pironi rirerire ririho amatara hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

icyapa cya mpandeshatu kiri mu mabara y'umutuku, umuhondo ndetse n'umukara; gishushanyijemo utwambi, kamwe kareba hejuru akandi kareba hasi, twombi mu mabara y'umukara

Kaburimbo irimo umurongo w'umuhondo, hagati harimo ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo, harimo n'ipironi ririho icyapa kiri mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'umukara. Hirya ya kaburimbo hari inzu ndende iri mu ibara ry'umweru ifite n'amadirishya y'umukara.

Kaburimbo irimo amagare ndetse n'imodoka biri kurenga ruguru yayo hari ubusitani burimo n'icyuma bakunze kwita sofiya gifata imyirondoro y'imodoka yishe amategeko y'umuhanda, ruguru hari icyapa cya mpande enye kirimo ishusho y'umukara ndetse n'amagambo y'umukara kiri mu ibara ry'umweru, hejuru yacyo hari ikindi cyapa k'ikizeru kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru cyanditsemo umubare gatandatu na zeru mu ibara ry'umukara.

Umugore wirabura ufite imisatsi myinshi wambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru, wambaye ijipo y'umukara ufite igikapu mu ntoki kiri mu ibara ry'icyatsi, inyuma ye hari ubusitani burimo ibyapa biri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, ruguru hari amazu menshi ndetse n'ipironi ry'amashanyarazi.

Icyapa cya mpande eshatu kiri mw’ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, kirimo ishusho ishushanyije mu ibara ry'umukara.

Icyapa kiri mu ishusho y'umutwe w'inyoni kirimo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, kirimo utwambi turi mu mabara y'umukara, kamwe kareba hejuru akandi kareba ku ruhande rw'ibumoso.

Inzu isize amarange y'umweru iri kumwe n'ifite amabati atukura, hejura haranyuraho insinga z'umuriro hari urugo rw'imiyenzi.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi, cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'andi ari mu ibara ry'umuhondo, hariho utwambi turi mu ibara ry'umweru, inyuma yacyo hari amazu yubatse ndetse n'igiti kirekire.

Icyapa cya mpande eshatu kiri mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'umukara, kirimo utumenyetso tw'imyambi twihinnye, turi mu mabara y'umukara.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku, umuhondo ndetse n'umukara gifashe ku ipironi ry'umukara, hirya y'aho hari ibiti ndetse na ruguru hari ibiti.

Icyapa cya mpande enye kiri mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umukara harimo igishushanyo cyerekana umuntu uri kwambuka umuhanda. Hepfo yacyo hari icyapa cya mpande eshatu kiri mw'ibara ry'umweru, umukara ndetse n'umutuku, kiriho utwambi kamwe kareba hejuru kandi kareba hasi turimo ibara ry'umukara, inyuma yaho hari ibiti.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hepfo yacyo ari akandi kapa nako ka mu ibara ry'umutuku n'umweru kari ishusho y'umuntu uri kugenda, hirya hari inzu ifite irangi ry'umuhondo imanitse w'cyapa kiririmo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hepfo ari kaburimbo irimo amapikipiki ndetse n'igiti kiri mu busitani.

Icyapa cya mpandeshatu, kiri mu ibara ry'umutuku, umwe ndetse n'umukara, gishushanyijemo ishusho y'umuntu uri kwambuka umuhanda mu ibara ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo, hirya no hino yawo hari ibyatsi byumye, hirya hari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, hariho akambi kareba mu ruhande rw'ibumoso, kari mu ibara ry'umukara.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku, umweru ndetse n'igishushanyo cy'umukara giteye mu busitani. Hirya yabwo hari igiti, ruguru yaho hari inzu ifite igisenge cy'umukara iteye amarangi y'ubururu ikikijwe n'igikuta gifite amarangi y'umuhondo. Hanze haparitse imodoka ifite irangi ry'umukara.

Ibyapa bibiri byose biri mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'umukara, kimwe kiriho akambi gasa nk'akaberamye ikindi kiriho abantu babiri basa n'abasheshe akanguhe, byose biteye mu busitani bukikije umuhanda, hirya hari ibiti by'amoko atandukanye.

Icyapa cya mpandesheshatu kigizwe n'amagambo y'umutuku ndetse n'umweru, cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru avuga guhagarara, inyuma yacyo hari icyapa kimeze na cyo ndetse n'ibiti ndetse n'ubusitani.

Akayira k'abanyamaguru karimo umugore wambaye ijipo y'umukara n'agapira kari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, hirya ye hari ubusitani burimo ibiti, burimo n'icyapa kiri mu mabara y'icyatsi n'umweru cyanditsemo amagambo ari mu mabara y'umweru.

Icyapa cya mpande enye kiri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, gishushanyijeho ikiziga kiriho utwambi turi mu byerekezo bitandukanye, turi mu ibara ry'umweru hirya yacyo hari ipiloni ririho insinga z'amashanyarazi ndetse hari na kaburimbo irimo abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye.

Icyapa cya mpande enye kiri mu mabara y'umuhondo n'umukara, cyanditseho ijambo hejuru ryo kwitonderwa riri mu mumagambo y'umuhondo, n'irindi ryo hasi riri mu magambo y'umukara, rikumenyesha kugenda buhoro.

Icyapa gifite ishusho y'ikiziga kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, ndetse n'umukara cyanditseho imibare gatatu na zeru biri mu ibara ry'umukara.

Kaburimbo irimo urujya n'uruza rw'imodoka zitandukanye ndetse n'amapikipiki, imbere yayo hari inzu ndende iri mu ibara ry'ivu imanitseho ibyapa byinshi bitandukanye, hirya y'iyo nzu hari n'inzu na yo ndende iri mu ibara ry'umuhondo, hanze yazo hateye ibiti by'imikindo ndetse n'ibyo mu bundi bwoko.

Kaburimbo irimo ipikipiki hirya yayo hari inzu ndende ifite irangi ry'ikigina, ndetse n'ubusitani buri ku mpande z'umuhanda hino hari ibiti byinshi ndetse ku nzu hari icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Inzu nini iri mu ibara ry'umweru , ivu ndetse n'umuhondo rifite ishusho nini y'agaseke , hejuru yayo hasi hari ibiti byinshi ndetse haparitse n'imodoka y'umukara.

Inzu nini iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara hasi yayo hari imodoka zihagaze ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'ivu hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye ndetse ari na kaburimbo irimo ipikipiki iri mu ibara ry'umutuku iriho n'umumotari wambaye ingofero y'ubwirinzi iri mu ibara ry'umuhondo.

Ibipangu bibiri kimwe kiri mu mabara y'isine ndetse n'umweru; ikindi gifite ibara ry'ivu mu imbere harimo amazu afite ibisenge by'umutuku ndetse amazu ateye irangi ry'umweru, imwe haba hakaba haparitsemo imodoka ifite irangi ry'ivu ndetse hanze hakaba hateye ibiti n'ubusitani.

Inzu nini iteye irangi riri mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo ifite imiryango n'amadirishya by'imikara hanze, hari ubusitani burimo igiti cy'umukindo.

Kaburimbo irimo imodoka itwara abantu n'ibintu, iri mu ibara ry'umweru, hirya yayo hari akayira k'abanyamaguru karimo abanyamaguru bagera muri batatu ndetse hirya hari ipironi iriho insinga z'amashanyarazi iriho n'isanduku ishinzwe gutanga amashanyarazi, hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo ndetse haparitse n'imodoka zo mu bwoko butandukanye, hari n'amazu y'ubucuruzi.

Inzu ifite amabati y'umutuku ikikijwe n'urukuta rugizwe n'amabuye ndetse n'amakaro y'imyeru ndetse n'urukuta rw'umuhondo ruriho igipangu cy'umukara, hanze hari ubusitani ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Inzu nini igeretse gatanu iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara hanze yayo hahagaze imodoka enye ndetse n'ipikipiki imwe hari ibiti hirya yayo hari indi nzu ifite igisenge cy'umutuku ndetse iteye amarangi y'umutuku

Inzu ifite igisenge cy'umutuku iteye amarangi y'umweru ifite igipangu cy'umukara ndetse hanze hari ipironi ry'insinga z'amashanyarazi hateye ibiti by'imikindo ndetse n'ubusitani.

Inzu nini yubakishije amatafari ifite amadirishya y'umukara, hirya yayo hari indi nzu nayo nini iteye amarange y'umuhondo ndetse n'umweru, hepfo hari ibiti byinshi biteye mu busitani.

Inzu nini ifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, ifite igisenge cy'umutuku hanze yayo hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye inyuma yacyo hari ipironi ririho insinga z'amashanyarazi.

Inzu nini iri mu ibara ry'umweru, ifite amadirishya y'umukara, hepfo yayo harimo kaburimbo irimo imodoka ebyiri, hirya yayo hari ubusitani burimo ibiti ndetse buriho n'indabo ngufiya, hejuru hari icyapa kiriho ibara ry'umuhondo, umukara ndetse n'icyatsi.

Kaburimbo irimo imodoka ebyiri ziri mu ibara ry'umukara, irimo umunyamaguru uri kwambuka afite agakapu k'umweru, imbere hari inzu nini ifite igisenge cy'umukara iteye amarange y'umweru ndetse n'ivu, haparitse imodoka imwe iri mu ibara ry'ivu n'indi iri mu ibara ry'umukara ziparitse imbere y'inzu.

Inzu nini ifite igisenge cy'umutuku iteye amarangi y'umuhondo, hirya yayo hari indi nzu nayo ntoya kuri yo iteye amarangi y'umuhondo ifite nayo igisenge cy'umutuku, ruguru hari n'izindi nzu hari ishyamba riteyemo ibiti ndetse no hepfo hari ibiti biteye mu busitani.

Inzu nini ifite irangi ry'umweru ndetse n'amadirishya y'umukara ikikijwe n'igikuta cyubakishijwe amatafari, inyuma yacyo hari ibiti biteye mu busitani.

Kaburimbo irimo imodoka ifite ibara ry'ivu, hirya yayo hubatse inzu iri mu marange y'umweru ndetse n'umukara, inzu ikikijwe n'igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye, hariho icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, ndetse n'ikindi cyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Kaburimbo irimo imodoka y'umukara ndetse n'igare ririho umunyonzi n'indi modoka iri muibara ry'umweru, hepfo yayo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye kiriho ibyuma by'umukara, ruguru hari inzu iri mu ibara ry'umweru ndetse iriho n'amabuye ari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Inzu nini igeretse kabiri, ifite igisenge cy'umutuku, iteye irangi ry’umweru ndetse ifite amadirishya y’umukara, imbere yayo har’igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye, ndetse hirya har’indi nzu nayo ifite igisenge cy'umutuku iteye n'irangi ry'umweru.

Kaburimbo irimo ipikipiki imwe iriho umumotari ndetse wikoreye, hirya yayo ikaba ikikijwe n'ibiti by'imikindo ndetse hirya hakaba hari inzu nini ifite igisenge cy'umutuku, ndetse ifite n'inzogera hanze yayo bisa nkaho ari urusengero ruyikoreramo, ndetse ikaba ifite n'ibiti by'imikindo n'imbere yayo.

Umuhanda wa kaburimbo, hirya yawo hari inshundura ziri mu ibara ry'icyatsi, zikikije inzu itararangiza kubakwa, ahakurikiyeho hari inzu y'amagorofa atatu ifite ibara ry'ikigina ndetse n'ibara ry'umutuku wijimye, hirya yaho hakaba hari indi nzu na yo igeretse, ifite ibara ry'umweru, hasi haparitse imodoka zo mu bwoko butandukanye.

Inyubako nyinshi ndende zo guturamo zirimo izifite ibisenge by'imituku, iby'imikara ziteye amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru zikikijwe n'ibiti ndetse n'ubusitani.

Kaburimbo ruguru yayo hari indi kaburimbo irimo imodoka y'umukara, hirya hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye, kiriho ibyuma by'umukara, kiriho n'amapironi asa n'afashe icyapa runaka, ruguru hari inzu ifite igisenge cy'umutuku, ifite igikuta kirimo ibara ry'umuhondo ndetse n'igipangu kiri mu ibara ry'icyatsi n'ikigina.

Inzu nini ifite amarangi y'ubururu hari n'inkuta zifite amarangi y'mweru riho icyapa kiririmo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu hanze yayo hahagaze imodoka iri mu ibara ry'ubururu.

Kaburimbo irimo imirongo iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'umweru. Irimo amapikipiki atwaye abagenzi ndetse n'imodoka zitandukanye. Hagati hari ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo. Hepfo hari icyuma gifata amashusho kikanabika amakuru y'ibinyabiziga byishe amategeko y'umuhanda ndetse hari n'ubusitani buteyemo ibiti.

Kaburimbo irimo imirongo isize amarangi y'umweru irimo amapikipiki atatu hagati hateyemo ubusitani ndetse n'ibiti by'imikindo harimo n'amapiloni ariho amatara yo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imironko iri mu mabara y'umweru. Harimo amapikipiki atatu ahetse abagenzi hirya hari imodoka iri mu ibara ry'umukara, ndetse n'ibiti n'ubustani.

Kaburimbo ishushanyijemo imirongo y'umweru ku mpande zayo hari ibiti birebire biri mu busitani ndetse n'indabo ngufiya na ruguru hari ibiti birebire n'indabo, hari amapironi ariho ibyuma bifata amashusho yo ku muhanda.

Kaburimbo irimo ibinyabiziga birimo imodoka, ipikipiki igendera ku mamoto atatu iri mu ibara ry'ubururu, icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, hejuru hari n'icyapa kiriho umutuku ndetse n'umweru, hepfo hari ibiti ndetse na pasiparume.

Kaburimbo iciyemo imirongo iri mu mabara y'umuhondo, hagati harimo ubusitani buteyemo igiti cy'umukindo, ruguru hari ubundi busitani na bwo buteyemo ibindi biti.

Kaburimbo irimo amapikipiki ndetse n'imodoka nziza, irimo ipironi iri mu ibara ry'umweru ririho itara ryo ku muhanda, hirya umunyamaguru uri gutambuka, wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'ikigina, hejuru naho hari indi kaburimbo iriho ibyuma biri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Kaburimbo irimo imodoka zigera muri eshanu, harimo eshatu z'umukara n'izindi ebyiri z'umweru, hirya yayo hari ubusitani ndetse n'ibiti harimo icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu n'ikindi kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, hariho amapiloni ashinzwe kumanikwaho amatara yo ku muhanda.

Kaburimbo ifite ibice bitandukanye irimo imirongo isize amarangi y'umweru, ihagazemo amapikipiki agera muri atatu ndetse n'imodoka nini y'umukara, harimo abanyamaguru bari kwambukiranya.

Kaburimbo irimo imodoka ntoya iri mu ibara ry'ivu irimo ipikipiki imwe ihetse umugenzi ndetse n'ikamyo iri mu ibara ry'umweru hirya hari akazu karimo ibara ry'ubururu abagenzi bategererezamo imodoka hari n'ipiloni ririho amatara yo ku muhanda ndetse hari n'ibiti birebire.

Kaburimbo irimo imirongo y'imyeru, harimo igare riri kwambukiranya imihanda ndetse n'umunyamaguru uri kwambuka umuhanda, ruguru yayo hari ahantu, hari ubusitani ndetse n'ibiti ndetse n'amazu abaturage basanzwe babamo.

Iduka ricuruza ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba hari umuntu ukoramo wambaye ishati y'umweru ndetse unicaye, imbere ye hari mudasobwa, hari akabati kari imbere ye kariho igiti kiri mu ivaze, hirya hari ibikoresho bagenda bacuruza birimo amabaga, uduseke, ndetse n'imyenda.

Kaburimbo irimo imirongo y'imyeru, ihagazemo ipikipiki iri mu ibara ry'umukara, yicayeho umuntu wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru, ndetse iri kwambukamo umunyamaguru, hirya yayo hari izindi modoka ziri mu mabara atandukanye nazo ziri kujya mu bindi byerekezo.

Kaburimbo irimo imirongo y'imyeru, harimo ipikipiki ku gice cyo hirya, harimo indi pikipiki ndetse n'imodoka irimo ibara ry'ubururu, hirya hateye ibiti muri pasiparume ndetse no hagati muri kaburimbo hateyemo pasiparume n'igiti cy'umukindo, no ku gice kinini cyo hirya harimo pasiparume n'ibindi biti.

Icyuma gifata amashusho y'umuhanda bakunze kwita sofiya gishinzwe kurinda umutekano w'umuhanda no kubika amakuru y'ibinyabiziga byishe amategeko yo mu muhanda hirya yacyo hari igiti kirekire kiri mu busitani burimo n'ibindi biti ndetse n'indabo ngufiya ruguru yacyo hari igikuta cyubakishije amabuye ndetse harimo n'inzu ifite amabati y'umukara.

Kaburimbo iriho amapironi arimo amatara yo ku muhanda, hirya hariho ibiti ndetse n'ubusitani, hirya yaho hari inzu ndende icanyeho amatara ari mu ibara ry'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibisate bibiri, urimo imirongo y'imyeru yo kwambukiramo, hirya hari igiti cy'umukindo, hashinzemo n'amapironi ariho amatara ashinzwe kugabanya akavuyo mu muhanda, hirya hari imodoka iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'amapikipiki ndetse n'andi mapironi ariho amatara agabanya, akanarinda umutekano wo mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki imwe iriho umumotari, hirya yawo hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, hakaba hari n'ibiti ndetse n'ubusitani bukikije umuhanda.

Kaburimbo irimo imirongo iri mu ibara ry'umweru, harimo abanyamaguru bane bari kwambukiranya umuhanda harimo n'amapikipiki abiri, ruguru hari indi pikipiki imwe, ndetse n'imodoka iri mu ibara ry'umweru hepfo hari ibiti byinshi ndetse n'ubusitani.

Kaburimbo nini irimo imirongo iteye amarange y'umweru, hirya yayo hari ibiti byinshi biri mu busitani, hari ipiloni rijyaho amatara yo ku muhanda ndetse hari n'icyapa kiri mu mabara y'ubururu.

Kaburimbo ishushanyijeho imirongo iri mu mabara y'umweru ku mpande zayo hari ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo ndetse hepfo yaho hateyemo n'ibiti binini ndetse hari n'ubusitani ruguru mu kayira k'abanyamaguru harimo umunyamaguru umwe w'umugabo wambaye itaburiya ifite ibara ry'ivu.

Kaburimbo irimo imodoka zigera muri eshatu ndetse n'amapikipiki, hirya hateye ubusitani ndetse n'ibiti by'imikindo, harimo n'amapironi ariho amatara yo ku muhanda.

Kaburimbo irimo ibisate bibiri ishushanyijemo imirongo mu mabara y'umweru ndetse n'indi mirongo mu mabara y'umuhondo, irimo imodoka z'imikara ziri kurenga, hirya hateye ibiti ndetse n'ubusitani bukikije iyi kaburimbo.

Kaburimbo irimo imirongo y'imyeru, ku mpande zayo hari ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'amapironi ariho amatara yo ku muhanda, ruguru imodoka ebyiri ziri muri kaburimbo zifite amabara y'umweru ndetse n'indi ifite amabara y'umukara.

Kaburimbo irimo imirongo isize irangi ry'umweru irimo imodoka zigera muri enye n'amapikipiki atatu, hagati y'umuhanda harimo ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo, ndetse hirya y'umuhanda hateye ibindi biti ndetse n'ubusitani.

Kaburimbo irimo imirongo Isize amarangi y'umweru, irimo amapikipiki abiri, hirya hari amazu menshi yo guturamo, ubusitani buteyemo ibiti, ndetse n'izindi modoka zihagaze ebyiri ziri mu ibara ry'umweru, ndetse n'indi iri mu ibara ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umumotari uyitwaye, hirya yaho hari indi moto igendera ku mapine atatu, ifite ibara ry'ubururu ndetse n'uwitwaye hirya y'umuhanda hakaba hari ubusitani ndetse n'ibiti biwukikije.

Kaburimbo ishushanyijemo imirongo iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'indi imirongo mu ibara ry'umweru, hagati muri kaburimbo harimo ubusitani buteyemo ibiti by'umukindo, hari n'ipironi rirerire ririho icyapa kiri mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umweru, hirya mu mpande za kaburimbo harimo ubusitani buteyemo ibiti birebire.

Kaburimbo irimo ibisate bitatu, harimo imodoka iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'ikamyo nini, harimo amapikipiki hirya no hino hari ibiti ndetse n'ubusitani, hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo.

Kaburimbo iciyemo imirongo y'imyeru hirya hari imodoka zo mu bwoko butandukanye, ziri kujya mu byerekezo bitandukanye ndetse n'ipikipiki imwe, ku ruhande rwo hino hahagaze umugabo wambaye ishati ya karokaro ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, ahagaze imbere y'ibyuma biteye amarange y'ivu.

Kaburimbo irimo imodoka iri mu ibara ry'ivu ndetse n'amapikipiki, hirya yayo hateye ubusitani ndetse n'ibiti hejuru yayo hari indi kaburimbo ihanyura, nayo iriho amapironi ariho amatara yo ku muhanda, ndetse no hasi hari irindi pironi ririho itara rimwe ryo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo utwambi turi mu marangi y'umweru ,harimo moto ebyiri zifite amabara atukura ndetse n'imodoka ifite ibara ry'umweru ,inyuma hari imodoka ifite ibara ry'umukara, hirya y'umuhanda hariyo indi moto ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umugezi ,n'ubusitani n'ibiti.